Y'abantu bane umwe yicaye ari kubaza abandi ubusobanuro bwinshi bugiye butandukanye ku nyigisho bagiye babaha kandi hakaba hari n'undi mu mama wicaye ku ruhande nawe ufite inyunguramajwi.

Hari abantu benshi bagiye batandukanye bicaye mu buryo bw'uruziga, bafite umuntu bakurikiye, imbere yabo hari ibyo arimo aragenda abayoboraho, imbere hari ikiri kubafasha gukurikirana ibyo bari kugenda babigisha.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye ryitwa nk'amahugurwa bagiye bicaye mu dutsiko tugiye dutandukanye buri umwe afite ikaramu n'ikayi arimo aragenda yandikamo amahugurwa bari kugenda bamuha.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye riyobowe n'umuntu umwe, imbere yabo bafite uducupa tw'amazi.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, bafite imbere yabo uducupa tugaragaramo amazi yo kunywa.

Ihuriro ry'abamama batatu, buri umwe agiye afite imbere ye igikoresho cy'ikoranabuhanga ndetse n'amazi yo kunywa ari mu ducupa.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye mu ntebe imbere yaho bafite amazi yo kunywa. Ikindi bakaba bafite imbere yabo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Inama igaragaramo abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe, bafite imbere yabo ibikoresho by'ikoranabuhanga, basa nk'aho bayobowe n'umuntu umwe.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari mu nama, bagiye bafite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo komputa ndetse n'amatelefoni.

Ifoto igaragaza ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa na mudasobwa, bigaragaza uburyo abantu bakoresha ikoranabuhanga mu Rwanda.

Serivisi nshya ku rubuga Irembo, ikigo gitanga iyi serivisi, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Serivisi irembo itanga: kuvugurura imbibi no gukosora ubuso, kwandikisha no gucamo ibice inyubako ikubiyemo inzu zo guturamo.

Sosiyete igaragaramo abantu benshi bagiye batandukanye, itanga serivisi ku baturage zijyanye no kubaka iminara y'abaturage.

Ifoto igaragaza uburyo bwo gukoresha inyemezabwishyu, ugaragaza imisoro ndetse n'ibyaguzwe mu bucuruzi bwawe.

Inyubako ebyiri zegeranye zubatse mu buryo bugiye bugerekeranyije ndetse imbere yaho hari ibiti by'amashanyarazi bigiye biriho insinga kandi bifite na kamera.

Ahantu hagaragaza igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga ndetse n'ibiti birebire byegereye icyo giti cy'amashanyarazi.

Ihuriro ry'ahantu hatunganyirizwa ibintu by'amashanyarazi, hagaragara umuntu usa nk'aho yambaye imyenda yabo.

Ibiti by'amashanyarazi igihe biriho ibisinga ndetse byegeranye n'ishyamba ry'ibiti birebire ndetse n'ibiti bigufi byegeranye n'ibyo biti by'amashanyarazi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima imbere y'aho hagaragara imodoka z'imbangukiragutabara ndetse n'imodoka y'umuntu usanzwe ku giti cye.

Ifoto igaragaza imihanda ibiri nyabagendwa igendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse impande yaho hakaba hari ibitaro bihegereye.

Ihuriro ry'abaturage benshi ririmo ingororwa ziri imbere y'abacamanza, zambaye impuzankano zisa, zijya kugira ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'ingabo z'igihugu.

Umumama uhagaze ufite umusatsi muremure kandi wambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye, umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Ifoto igaragaramo abamama babiri b'abagororwa, bambaye impuzankano z'ingororwa ndetse n'abacamanza babo babiri, bari imbere y'urukiko.

Inyubako y'ikigo ngororamuco, imbere yaho hagaragaraho abantu benshi bagiye batandukanye, bagiye bafite ibikapu bagiye ahantu hamwe.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, hagaragaramo abagororwa ndetse n'abandi baturage bagiye basanzwe, basa nk'aho bakoresha inama abaturage.

Abantu benshi basa n'aho bari mu bukwe babiri bagaragara basa nk'aho ari umuryango w'umugabo n'umugore bicaye, imbere yabo hari uturahure ndetse n'ibikombe by'ikawa.

Umuhanda nyabagendwa ugendamo imodoka ndetse na moto n'ibindi binyabiziga, ugaragaramo abantu bagenda n'amaguru, ku mpande y'umuhanda haragaragaraho imodoka ya polisi y'u Rwanda.

Ifoto igaragaza umuhanda nyabagendwa, ugaragaraho inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, zigerekeranyije, umuhanda uri impande y'izo nyubako ndetse ku mpande z'umuhanda hari polisi z'u Rwanda zishinzwe kurinda umutekano mu muhanda.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, igaragaramo umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka telefone, agaragaza ari gufata amafoto.

Inama y'abanyeshyaka rya Girini pati rigaragaramo umuyobozi wabo arimo abaha ibiganiro bigiye bitandukanye, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Ifoto y'umugabo uhagaze wambaye ikote, arimo ararahira imbere y'abantu, afashe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara atatu atandukanye. Ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Imodoka, ipikipiki ndetse n'amagare bijya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, bijya mu byerekezo bitandukanye. Haragaragaramo imodoka ipakiye umuzigo ndetse n'amamoto ahetse abagenzi.

Inyubako igerekeranyije y'ubucuruzi, imbere y'aho hagaragara ibinyabiziga biparitse byo mu bwoko bw'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa ugenda mu bice byinshi bitandukanye, hagaragaramo imodoka ndetse n'amapikipiki agenda mu uwo muhanda.

Umuhanda nyabagendwa, ugaragaramo umuntu ufite ikinyabiziga cye, moto ndetse n'imodoka zihagaze imbere y'inyubako.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye bijya mu byerekezo bitandukanye. Haragaragaramo imodoka ndetse n'ipikipiki.

Umuhanda nyabagendwa ugendamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ugenda mubice bigiye bitandukanye kugaragaramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye.

Ibyapa bigiye byegeranye byinshi bitandukanye, bigaragaza uduce twinshi tugiye dutandukanye tw'igihugu, ndetse n'umuntu ufite ivarisi ufite ahantu agiye.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ndetse n'amagare, hari icyapa kiriho umuvuduko ntarengwa ugenderwaho muri uyu muhanda.

Icyapa kiri mu bwoko bw'urukiramende kizengurutswe n'ibara ry'umutuku cyandikishijwemo n'ibara ry'umukara ndetse kikaba gifitemo ibara ry'umweru mo imbere kikaba kigaragaza ko umuntu agomba kwitondera abanyamaguru.

Inyubako yegeranye n'igiti cy'amashanyarazi ndetse impande yacyo hariho icyapa kigaragaza kwitondera abanyamaguru baca muri uwo muhanda.

Ifoto igaragaza umuhanda nyabagendwa ugendamo imodoka ndetse hirya yaho hagaragara inyubako z'ubucuruzi zubatse mu buryo bugerekeranyije.

Agace kagaragaramo abaturage benshi bagiye bafite inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, inyinshi zisakajwe amabati atukura.

Umudugudu ugaragaramo inyubako nyinshi zigiye zitandukanyekanya, inyubako zigiye zigerekeranyije ndetse n'inyubako zitagerekeranyije ziri mu gace kamwe.

Inyubako yubatse mu buryo bugiye bugerekeranyije, igaragaza hoteli ndetse ifite ibirahure byinshi bigiye bitandukanye kuriyo nyubako.

Ifoto igaragaza umuhanda nyabagendwa, ugaragaramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi ukaba ugaragaramo abantu benshi bagiye batandukanye.

Ifoto igaragaramo inyubako igerekeranyije, munsi hagaragara icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto, imbere yaho hahagaze ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka.

Inzu nyinshi zigiye zitandukanye ziherereye i Kanombe impande yazo hari umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bagenda muri uwo muhanda, hari ibiti by'umuriro w'amashanyarazi bigiye biciye hafi y'izo nzu ziri aho ngaho i Kanombe.

Igaragaza umuhanda nyabagendwa w'ibice bigiye bitandukanye, ugaragaramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka.